Umuntu wicaye ku ntebe y'inyegamo ya purastike ucuruza amayinite ya MTN yitwikiriye umutaka ari hepfo y'umuhanda, hirya ye hari undi muntu na we wicaye impande y'akabati gacuza amayinite ya MTN, inyuma ya bose hari imodoka.

Umugore uhagaze imbere ya moto, inyuma ye kandi hari moto ebyiri, hari n'icyapa gifite amabara y'umweru n'umutuku cyanditseho Airtel.

Umuntu uhagaze impande ya moto, inyuma ye hari inzu yubakishije amatafari ya rukarakara, isakaje amatigura, kuri iyo nzu kandi hariho ikirango cya Airtel, inyuma yayo hari insina.

Abagabo bacuruza amayinite ya MTN, hari abahagaze umwe muri bo yicaye ku ntebe ndende ndetse bari munsi y'umutaka, inyuma yabo hari ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka, moto, hari n'inyubako ndende z'ubucuruzi.

Abantu bari munsi y'umutaka, umwe muri bo aricaye abandi barahagaze, inyuma yabo hari imodoka zifite amabara atandukanye harimo umweru, ubururu ndetse n'umukara hari inyubako ndende.

Abagabo bahagaze harimo abari gufotora. Imbere yabo hari umuntu uri kubabwira yifashishije indangururamajwi. Hari inanasi ziri imbere yabo. Inyuma kandi hari igiti kirekire cy'ururabo.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ifite umuryango umwe munini n'amadirishya ane, imbere yayo hari inkingi enye, hejuru hariho amagamo agaragaza aho hantu aho ahariho, imbere y'iyi nyubako kandi hari ibiti bishinze bigufi.

Ibigori byeze neza byarasaruwe bijyanwa guhunikwa, hari ibishishuye, hari n'ibidashishuye, byose birasa neza.

Umuntu uhagaze yambaye imyenda y'imyeru, yambaye n'ingofero. Mu ntoki afashe telefone, hirya ye hari umuntu ufite ikayi n'ikaramu uri kwandika, hari kandi ibiyunguruzo byifashishwa mu gutunganya umusaruro n'intebe ya karambarazi.

Abantu batatu bahagaze bafite impamyabumenyi mu ntoki iriho idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, inyuma yabo hari abandi bantu benshi bari gukoma mu mashyi kandi bishimye.

Intebe zitondetse ku buryo bwiza. Hagati yazo harimo umurongo uberamye w'ubururu, utandukanya uruhande rumwe n'urundi. Ziri mu nyubako nziza yubatse neza ndende.

Amacupa y'ubwoko butandukanye: amaremare n'amagufi, abyibushye n'ananutse ndetse arimo ibyo kunywa bitandukanye.

Amacupa arimo ibyo kunywa afite ry'ubururu, ari mu iduka, kuri ayo macupa hariho ibirango bigaragaza ibirimo, handitse Energy drink.

Abantu babiri umugore n'umugabo bari mu nyubako y'ubucuruzi, irimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, harimo amavuta yo kurya, ayo kwisiga, amasabune, umuceri, akawunga ndetse n'ibindi byinshi.

Umuntu uri mu iduka, iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, amagi, karoti, intoryi, ibitunguru, ibikoresho by'isuku ndetse n'ibyo kurya.

Iduka ririmo ibicuruzwa harimo: mayoneze, salade ndetse hari n'andi macupa arimo ibiribwa by'ubwoko butandukanye.

Umugore wicaye mu iduka yambayeburiye y'umutuku, harimo ibicuruzwa bitandukanye ibyo kurya n'ibirungo.

Iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo ibyo kunywa, ibyo kurya nk'imigati, ji zo kunywa, amazi, harimo kandi n'amavuta yo guteka.

Amakaramu cumi n'atatu ari mu ubwoko bubiri butandukanye, icyenda muri yo afite ibara ry'ubururu bwijimye, abiri afite ibara ry'icyatsi cyererutse, imwe ifite ibara ry'ubururu bwejuru ndetse n'iy'umutuku wererutse.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibintu byinshi bitandukanye; ibyo kunywa, amavuta yo kwisiga n'ayo kurya, ibikombe, amasahani ndetse n'imyambaro y'imbere. Harimo kandi ibikoresho by'isuku.

Abantu bahagaze barimo abagabo ndetse n'abagore inyuma yabo hari inyubako ifite ibaraza rifite inkingi, ndetse iyo nyubako ifite amabara y'umweru n'umutuku.

Abantu bamwe baricaye, abandi barahagaze. Inyuma ya bo hari inzu y'amatafari ahiye ndende ifite amadirishya abiri, n'umuryango umwe munini. Hariho n'ibaraza rifite inkingi ebyiri.

Urusengero rurerure, rwubakishijwe amatafari ahiye. Rufite umuryango umwe munini. Imbere yarwo hari inkingi z'ibiti bifite amashami ndetse n'amababi by'icyatsi.

Abantu bahagaze Kiliziya, inyuma yabo hari umusaraba muremure uri ku gikuta, hari abari gufotora abantu bahagaze imbere.

Inyubako y'urusengero nini cyane kandi ndende isakaje amabati y'ibara ry'umutuku umugongo wayo ifite amadirishya umunani ndetse n'imbere hari amadirishya abiri.

Abantu bicaye mu nyubako itatse hifashishijwe ibitambaro, bari kureba bose barasa n'abakurikiye umuntu uri kubabwira.

Abantu bicaye, abahungu bambaye imyenda isa n'abakobwa bambaye imyenda isa, bari mu rusengero, bose bari kureba imbere barasa n'abakurikiye umuntu uri kubabwira.

Ibitanda bishashe neza biriho imisego. Biri mu nyubako ifite amarido, hanze yayo hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Igitanda gishashe, intebe yo kwicaraho, imifariso, amarido, akameza gato kari imbere y'intebe.

Uburiri bushashe neza buriho amashuka ndetse n'ibyo kwiyorosa, hariho imisego, ku nkuta zayo hatatse neza, inyubako ifite idirishya rinini ririho amarido.

Igorofa rirerire, rifite imiryango, ibiri hasi, hejuru hari amadirishya atatu manini, hejuru yayo hari amadirishya, atanu. Imbere y'iyo nyubako hari imodoka iparitse, inyuma y'inyubako hari ibiti.

Igitanda kiriho amashuka meza y'umweru asa neza, hariho imisego ine, ibiri ibiri igerekeranye.

Abantu bicaye ni batatu abirabura babiri n'umuzungu umwe, ku meza yabo hariho amacupa y'amazi, imashini za kompiyuta n'ibitabo.

Abantu bari kugenda mu muhanda bafite amagare, ikigaragara cyo bari ku isoko, hari imodoka ipakiye imizigo hejuru yayo hari abantu bari kuyipakurura.

Abantu bahagaze, ni abagore biteze ibitambaro, umwe muri bo yikoreye akabase karimo ibintu ari gucuruza cyangwa se avuye guhaha, afite udukombe mu ntoki ndetse n'imifuka.

Isoko ryubakiye rifite ikigega gifata amazi, igisenge cyaryo cyubakishije ibyuma bifite irangi ry'umutuku, hari abagore bahagaze inyuma yaryo, hari n'amagare.

Umugore uri gucuruza imineke, hirya ye hari undi muntu uhagaze, inyubako ari gucururizamo ifite inkingi ebyiri ziri inyuma ye, inkingi imwe imanitseho imifuka.

Abantu bahagaze bari mu iguriro cyangwa se mu isoko. Bari gucuruza ibitoki, hari kandi moto ihaparitse.

Ihema ry'umukara rirambuye ku butaka iryo hema ririho utuyungurutso dutanu inyuma y'utwo tuyunguruzo hari indobo irimo imyuko ndetse n'imifuka ku ruhande.

Isoko ririmo imbuto z'ubwoko bwose, imineke, indimu, amarunji, amatunda, umubyeyi wicaye imbere yabyo.

Abantu bari gucuruza ndetse n'abari kugura inkweto, ni inkweto zifunze z'ubwoko butandukanye, hari umubyeyi n'abana babiri bari kuzigera, hirya kandi hari igare ripakiyeho umuzigo, hari n'akazu gasakaje ihema karimo imyenda.

Abantu babiri bicaye kuri moto utwaye n'utwawe ,bose bambaye kasike bari mu muhanda w'umukara, hirya yabo hari abagore bahagaze impande y'ibiti ndetse hari ni indabo.

Abantu bicaye kuri moto iri kugenda mu muhanda, hirya yabo hari ipoto y'umuriro w'amashanyarazi iri mu byatsi, umurima ukikijwe n'ibiti birebire kandi byinshi.

Umuntu utwaye moto ari mu muhanda wamabuye. Afite igikapu yahetse ku ruhande. Hakurya y'umuhanda hari inyubako ifite amabara y'umweru ndetse na kositara. Hirya kandi hari ihema ry'umweru. Hari ibiti birebire n'indabo.

Abantu bari mu muhanda batwaye amagare, imbere yabo hari moto, inyuma yabo hari inyubako ndende iriho ibiti birebire.

Umuntu uhagaze impande ya moto. Ikigaragara cyo ni umumotari. Afite mu ntoki agapapuro k'umuhondo kanditseho. Hirya ye kandi hari inyubako ifite amabara y'umweru.

Umuntu wicaye kuri moto yambaye na kasike, impande ya hagaze undi nawe wambaye kasike, hirya yabo hari abantu babiri bacuruza amayinite ya MTN, inyuma y'abo bantu hari imodoka ya tagisi, ruguru y'iyomodoka hari igiti hari ibyatsi ndetse hari n'imisozi.

Umugabo utwaye moto, yambaye kasike ahets igikapu, hirya hari inzu irimo ibyuma bisya, hari kandi ibiti birebire n'inyubako yindi ndende yubakishuje amatafari ahiye isakajwe amabati y'ubururu.